Udufuka ni twiza cyane abantu baradunda, kuko n'ugiye gukagura harimo ikintu cyangwa karimo ubusa ushaka kugatwaramo, uragenda ukakagura.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda usanga bari kuzifuhira kugira ngo ubusimba bupfe zere neza ,nta kibazo zifitiye ugasanga zireze.

Kandi ni twiza cyane abantu baradukunda bakagura amaganga bacuwe imva uganda ya kominnes ibiguyicyashiriye ukagenda ukatugura ukazana mu rugo.

Ururabyo ni rwiza cyane abantu bararukunda. Iyo umuntu agiye kurutera arabanza agafata itaka cyangwa utubutuye, noneho harimo agataka agashyiramo yarangiza agatera.

Ibiryo ni byiza cyane abantu barabikunda. Kuko ngiyo watetse bityo biryoshye usanga abantu babirya bafite peti, kuko baba ari kumva ar'ibintu bidasanzwe watetse neza.

Udufuka ni twiza cyane, usanga bari kujya kutugura muri butike, babona ibyo bakarya bakamera neza cyane, bagahaga, bagasenga yuko babonye ifunguro, ubundi bakaryama bagasinzira.

Imbuto ni nziza cyane. Abantu barazikunda kuko usanga bari kuzifuhira kugira ngo zizere zimeze neza, uburo cyangwa ingano, ibirayi n'ibindi.

Utuvido ni twiza cyane, abantu baradukunda. Usanga tugiye turimo ibintu bitandukanye, amata, risansi, ji, ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga abantu bari kutugura bishimye, kuko turi kugura makeya.

Iyo abantu bagiye kubaka usanga bari gukata urwondo, bagatemaguriramo ibyatsi kugira ngo rukararakara zitameneka .Ugasanga bafite n'amazi bagiye kubumba.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda, usanga abantu barahinze ibintu byinshi bitandukanye, ukabona bari kubifuhira abandi bikera badafuhiye, bitewe n'uburyo bahinzemo.

Gufhira imbuto ni byiza cyane, iyo izifuhiye zirera zirera cyane, zigatamu ujya mu isoko ukabona amafaranga, kubera uba warazifuhiye utazifuhiye ntago za kwera, niyo mpamvu abantu bazifuhira kugira barebe yuko babona amafaranga ahagije, bagakuramo ayo batanze.

Kurya ni byo bya mbere, kuko umunu atariye atabaho, usanga iyo umuntu ariye abavuga ati n'ibindi byarorera ariko nkarya yuko ibiryo biba ari byo byambereye yamara kurya ugasanga arishimye cyane.

Ubuhinzi ni bwiza cyane abantu barabukunda, nk'iyo uhinze ukeza bisaba gufuhira, ugashyiramo imvaruganda, ugashyiramo imborera, ibintu byinshi bitandukanye.

Gutera imbutomu kabase ni byiza cyane, kuko nk'abantu bo mu umujyi bataba bafite ubutaka bwo kuziteramo usanga baziteye mu kabase bakazifuhira ziri mu kabase, kandi ugasanga zireze barariye barahaze ugasanga ibintu bimeze neza.

Imbuto nziza cyane, abantu barazikunda. Kandi bakazifuhira kugira ngo ubusimba buvemo, kandi zere neza baranazifumbiye.

Iyo abantu bagiye gukata bagiye kubumba inkarakara, bifashisha urwondo bakarutemaguriramo ibyatsi, bagasukamo amazi, barangiza bagakata bakabumba inkarakara.

Amafi cyangwa amasambaza ni meza cyane, abantu barayakunda kuko aba aryoshye, harimo n'amavuta ugasanga abantu bari kuyakunda cyane, bari kuyagura bamwe bakajya no kuyaruba.

Ifi ni nziza cyane abantu barayikunda kuko bayagurisha akabungura, cyangwa abantu bakayagura, akabagirira intungamubiri mu mubiri.

Utubati bashyiramo ibiryo ni twi cyane, usanga tugaragaye neza cyane, ibiryo aribyiza. Nokumva waryaho, kubera ibiryo biba bitetse neza, bitekanye agasukari bira ahantu heza cyane biri ahabugenewe.

Abantu bagiye kororera cyangwa kubaka ni heza cyane, usanga umuntu ufite amafaranga yarahubakiye hameze neza hasakaye, ugasanga harimo inkoko, hejuru hasakaye cyangwa ugasanga yubatsemo.

Inyama ni nziza cyane, abantu barazikunda usanga nkiyo ahantu bateguriye ibiryo, hameze neza cyane ku isahani nziza, babiteguranye isuku, babikaranga neza cyane, ugasanga bishimishije abantu babiriye bishimye cyane.

Imbuto ni nziza cyane. Abantu barazikunda. Usanga abana bakitse amaronji n'ibyo kunywa n'ibyo kurya byiza byabugenewe, ukabona bari kurya barishimye ku masahani meza..

Amafi ni meza cyane, iyo batari bayaronga usanga asa nabi, ariko iyo bamaze kuyateka cyangwa bamaze kuyaronga ubona asa neza cyane, ukumva ugize apeti.

Ibiryo ni byiza cyane abantu barabikunda, usanga ngiyo umuntu yatetse ifiriti k'uruhande akayitegura ahantu heza, hasashe neza akarya yumva yishimye cyane.

Ibiryo by'i Kigali ni byiza cyane, biba bitetse neza cyane, birungiye ku buryo iyo umuntu abiriye avuga ko yariye neza, kandi bakabiteka neza, isuku, bakabitereka heza. cane

Amafi ni meza cyane cyangwa amasambaza. Usanga abantu bari kuyagura bakayateka, n'abana babo bakishima. Cyangwa bakayagura bakayamugemurira yagiye kubyara mu bitaro.

Amafi ni meza cyane abantu barayakunda kuko bajya kuyagura bakumva aryoshye bagasubira no kuyagura waba ufite n'amafaranga ukagura amafi waba utayafite menshi ukagura izo sambaza.

Ibiryo bitetse neza aba ari byiza cyane, abantu barabikunda bitewe n'amoko watetse, iyo watetse amoko akundwa abantu benshi barayakunda, ariko abo mu cyaro ntabwo baba bayamenyereye, kuko haba hari benshi batari babiryaho.

Ibi biryo ni byiza cyane. Abantu barabikunda bitewe n'uburyo bitetsemo. Usanga abantu barishimye, kuko bariye neza cyane.

Amafi ni meza cyane abantu barayakunda kuko aba aryoshye, umuntu akayateka neza, wayarya ukumva araryoshye arimo amavuta menshi.

Amafi ni meza cyane abantu barayakunda kuko aba aryoshye, ugasanga araryoshye ukayarya nawe ukumva araryoshye, ariko hari n'abatayarya. Ariko abayarya, bumva aryoshye cyane.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, usanga nk'iyo umuntu yagiye gusarura, aba yitwaje ikintu agiye gusaruriramo kugira ngo abashe kwihuta anabisarure abimare mu murima kugira ngo batabyiba.

Ifi ni nziza cyane abantu barayikunda kuko iba itetse neza yatukuye ukabona n'abantu barikuyarya bari kuyarwanira kuko aryoshye.

Ibiti ni byiza cyane abantu barabikunda kuko babigurishamo amafaranga, cyangwa bikaba bikikiye ahantu bororera amafi, hakaba n'abantu babyororeyemo amafi.

Amafi ni meza cyane abantu barayakunda kuko aryoha, abantu kugira ngo bayateke barabanza bakayaronga mu mazi meza yabugenewe, ugasanga asa neza ukabona kuyateka afite isuku.

Ibyatsi ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko inka zabo zikura cyangwa ayandi matungo usanga bari kujya kuyahirira amatungo arakuze.

Ibidegede ni byiza cyane, abantu barabikunda, usanga hari amoko menshi y'ibidegede, ugasanga haba timudo asanga habalex ibya torobo

Ubutaka ni bwiza cyane ,abantu barabukunda kuko babuhingamo bikera ,bakishima , bagatera, ugasanga barishimye cyane.

Ahantu bamaze gusarura haba ari heza cyane, ugasanga hasigayemo izindi mbuto cyangwa harimo umuti . Ugasanga umuntu yaje gusaruramo ibyasigayemo, abandi baje gushakiramo umuti.

Ibyatsi ni byiza cyane, abantu barabikunda, bakabitera, bakabyahirira inka zabo. Ugasanga zariye zahaze zigakura.

Ibiti ni byiza cyane, abantu barabikunda, usanga nk'isombe abantu bari kuyijyana kuyigurisha mu masoko, bakayohereza ahantu ho mu mujyi kuko mu mujyi baba ntayo bafite, bakayigura amafaranga menshi cyane.

Ibiti ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko babigurisha, bakabibaza, bagatwikamo amakara, bakanakuramo n'imihembezo yo guhembera ibishyimbo.

Insina ni nziza cyane, abantu barazikunda cyangwa ahantu basaruye hakaba umushike, usanga abantu bari kuhakunda kuhateramo ibishyimbo cyangwa kuhatera ibijumba.

Ahantu hateye urutoki, hateye n'amasombe barahinze cyangwa hari ikinani, usanga ari ahantu hadateye neza, ariko iyo hahinzwe hateye n'imbuto usanga ari ahantu hameze neza n'imbuto zibagarigiye.

ibihingwa ni byiza cyane abantu barabukunda cyane, cyane ahantu haba hateye urutoki . Abantu b'abagabo bararukunda cyane, kuko umugabo ufite urutoki, aba yubashywe ahantu ho mu cyaro.

Amashuriri ni meza cyane usanga afite imboga. Kugira imboga ku ishuri, umurima w'ababanyeshuri bahinze babone ibyo barya abanyeshuri banezerwe bamenye yuko bariye bavuga ati: Uyu ni twariye byinshi.

Imbuto ni nziza cyane, usanga haramezemo n'utuboga mu mashaza, ukajya gusoroma utuboga, ugateka, wamara guteka ukarya, udushaza tukaba turera.

Dodo ni nziza cyane, usanga barahinze bakarangiza , bagategereza yuko zizera zikera, bakazigurisha mu masoko cyangwa n' abo bakazirya.

Insina ni nziza cyane abantu barazikunda, kuko zizana ibitoki zikabaha amafaranga ,zikabatungira n'umuryango ugasanga abana barishimye.

Indabyo ni nziza cyane. Abantu barazikunda, bitewe n'amabara y'indabyo, gusa uturabyo tw'umutuku cyangwa tw'umuhondo, aba ari twiza cyane tugaragaye neza.

Imbuto ni nziza cyane, usanga nk'ahantu haba hari ibyatsi haba harameze n'imboga, harimo n'utwatsi tw'umuti ukagenda ugahamura, ugaca n'imboga, ugatekera umwana wawe.

Ibiti ni byiza cyane, abantu barabikunda cyane. Usanga bari kubiha inka mu mazi cyamba abana bakabinywa iyo ari ibiti by'umuti, ugasanga bari no kubitema bari kubihembeza kugira ngo ibishyimbo byere.

Inzuzi ni nziza cyane abantu barazikunda kuko haba harimo bihaza, bakajya kubigurisha bakabona amafaranga ashimishije.

Insina ni nziza cyane abantu barakunda kuko bazikuramo ibitoki bakanahingamo iyo ari insina nkeya ukabona abantu barishimye.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda, usanga nk'abanyu baba ari abakire, baba barateye ibirima binini bikera, bakabigemuza imodoka.

Imirima myiza cyane barayikunda usanga barateyemo ibiti, indi ugasanga ahantu basaruye ibigori . Igikenyeri bamaze gusarura . Ugasanga barabigurishije cyangwa barabibitse.

Insina ni nziza cyane abantu barazikunda, usanga bazikoreye, bamwe na bamwe ntibazikorere, hahinzemo ibindi bintu, ugasanga hezemo ibitoki barabigurishije, cyangwa babishyize mu rugo barabiriye.

Ibiti ni byiza cyane, usanga nk'inyuma y'amashuri hari ibyatsi bari ku haragira, ugasanga inka ziri kurisha, zimeze neza zirahaze ziratashye zigera mu rugo, n'abanyeshuri kakiga neza cyane.

Ibiti by'ibibonobono ni byiza cyane. Iyo cyakuze neza usanga abantu bari kugihembeza, cyangwa bakagishakarira ku nsina, insina igafata igitoki gikaza.

Ibiti ni byiza cyane, abantu barabikunda, kuko birinda umuyaga, kandi abantu bakabitashyamo inkwi zo gucana.

Ahantu havuye ibigori haba hari urwiri, harimo ibyatsi byinshi cyane. Kugira ngo bongere kuhahinga bakabanza bakazana umuhoro bagatema, bagahinga bari gutabira, bitewe n'ibyo bagiye kuhatera.

Karoti ni nziza cyane abantu barazikunda. Iyo zivuye ahantu heza ziba ziryoshye, ariko hari n'iziba zitaryoshye.

Insina cyangwa urutoki ni byiza cyane， abantu barabikunda， abenshi birinda guhingamo imbuto，iyo ari urutoki runini cyane，ariko iyo atari urutoki runini, bazihingamo.

Ibiti ni byiza cyane abantu barabikunda. Usanga hari ubwoko bw'ibiti byinshi harimo marideni, gereveriya, n'ibiti byinshi bitandukanye, bakabikoramo n'imihembezo.

Ibinyomoro ni byiza cyane usanga abantu babihinze bihinganye n'izindi mbuto bakazifuhira, bakabikorera ugasanga ibinyomoro bireze barabigurishije babonye amafaranga.

Ibiti ni byiza cyane, abantu barabikunda kuko babigurishamo amafaranga, cyangwa bakabitema bakabicana cyangwa bakaba babishyira kuri sheripandi

Ibitunguru ni byiza cyane abantu barabikunda kuko babiteka mu mavuta, ugasanga ibiryo bimeze neza birahumuye, ugasanga babiteye no mu butaka bwiza.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda, usanga abantu bari kuzihinga ku bwinshi, kugira ngo bazabone icyo barya, n'abadahinga bafite amafaranga, bazabona icyo barya.

Ipera ni ryiza cyane. Abana barayakunda kurusha abantu bakuru, kuko aba aryoshe arimo n' imbuto, kandi zeze.

Karoti ni nziza cyane, abantu barazikunda hamwe n'ibitunguru na pavuro, yuko biryoshya ibiryo, ugasanga abantu barabiriye barishimye cyane.

Ibitunguru ni byiza cyane, abantu barabikunda kandi usanga abantu bari kubigura kugira ngo babiteke mu biryo, barye ibiryo biryoshye cyane.

Amatunda ni meza cyane, abantu barayakunda kuko ari intungamubiri, ndetse usanga bari kuyaha abana, n'abantu bakuru bakayarya, kuko ari meza.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda. Usanga bari kubihinga, ukabona byahetse bisa n'umukara kuko biba byarafumbiwe.

Ibitoki ni byiza cyane , abantu benshi barabikunda , kuko biba biryoshye . ugasanga babiranguje nk'imodoka teke yuzuye ibitoki byinshi.

Iyo umuntu agiye gutegura gutera imbuto，arabanza agashyira ku dushashi，agashyiramo ibitaka，akabona gusesekamo urubuto，kugira ngo ruzere neza，rumuhe amafaranga，menshi cyane.

ibihingwa ni byiza cyane, cyane cyane ibigori, usanga iyo bahinze imbuto y'umurenge, yera ibigori binini, bitewe n'uko babifumbiye, wa bifumbira neza, bikera ibigori binini , ukabona umusaruro ushimishije.

Ibintu bahinga ni byiza cyane, abantu barabikunda, kuko baba barahinga bakabona umusaruro, bakabigurisha bakabona amafaranga, ukabona abantu neza cyane bafite ibyo kurya.

imbuto z'imboga ni nziza cyane, cyane cyane karoti, intoryi, inyanya, imboga rwatsi zikuza abana, ukaba wazirisha umuceri n'ibindi byinshi bitandukanye.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda, bagurira abana, n'abantu bakuru bakazirya kuko ziba ziryoshye, kandi zikanavura, zikaba zifite n'icyo zakongera mu mubiri, niyo mpamvu abantu bazikunda.

Ibirayi ni byiza cyane. Abantu barabikunda usanga nk'iyo abantu bejeje ibirayi ahantu heza, aba ari ibirayi binini kandi byiza, umuntu yajya kubigura agataha yishimye.

Ubwatsi ni bwiza cyane. Abantu barabukunda kuko babugaburira amatungo. Ugasanga inka zirishimye, ziri kubyina mu kiraro kuko zihaze.

Ubuhinzi ni bwiza cyane abantu barabukunda usanga nk'iyo umuntu agiye gutera ikawa cyangwa izindi mbuto zisanzwe abanza agacukura ibyobo, akayishyiramo bitewe n'ikawa nyayo agashyiraho itaka ikazamuka yamara gukura akazishyiraho ibikori akayisasira kugira ngo ikure neza.

Guhinga ni byiza cyane abantu barahinga ibyo bahinze bakabisarura, bakabona umusaruro ushimishije ugasanga barasaruye barahunitse barishimye.

Isoko ni ryiza cyane abantu bararikunda cyane kuko bajya guhaha bakabonamo icyo bakeneye cyose ikintu cyose wakenera ukaba wakibona, waba ukeneye n'ibyo kurya ukaba wabibona, wakenera n'imyenda ukayibona.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda kuko iyo umuntu yahinze imbuto bakajya m'umurima gusarura bakamuturira iwe, nawe azana imodoka igapakira ijyana mu isoko.

Isoko ni ingenzi cyane abantu bararikunda, usanga harimo inyanya tungurusumu n'ibindi byinshi bitandukanye, bamwe bari kuranguza abandi bari gucuruza, ukagenda ukagura icyo ukeneye ugataha.

Amaronji ni meza cyane, abantu barayakunda kuko ari imbuto abana bakunda, abari kwiga kurya, abantu bakuru usanga bari kuzikunda.

Voka ni nziza cyane, haba amavoka y'amoko menshi, ugasanga avoka isa n'umuhondo nta bwo iryoshye, indi nta bwo isa n'umuhondo ariko iraryoshye. Iziryoshye rero ni zo abantu bakunda.

Isoko cyangwa butike ni byiza cyane abantu bararikunda kuko usanga harimo ibintu byinshi bitandukanye ku buryo wakenera urusenda warusangamo cyangwa ibitunguru, cyangwa ibijumba, ibintu byinshi bitandukanye.

Inanasi ni nziza abantu barazikunda kuko ziba ziryoshye, kandi ahantu nko mu cyaro zikunda kugura makeya, ugasanga bari kuzigura bakazigurira n'abana.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane, abantu barabukunda cyangwa ubw'amasaka kuko bidapfa kurumba. Umuntu agahinga, akeza, agasarura, akarya. Byaba ngombwa agasagurira n'isoko.

Urutoki ni rwiza abantu bararukunda, usanga urutoki bararuhingiye bakanarusasira, rweramo ibitoki binini, kuko bashyizemo ifumbire rihagije.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda kuko utazibagariye ntabwo zakwera barazibagarira, bakazishyiraho n' ifumbire, barangiza bakanazimenera bakanabyuhira, kugira ngo bibahe umusaruro ushimishije.

Intama ni nziza cyane abantu barazikunda, usanga ziri kurisha ahantu hari ubwatsi cyangwa iruhande rw'umuntu iyo zitaziritse.

Amatarasi ni meza cyane usanga abantu benshi bari kuyakora bakayahingamo ibintu byinshi bitandukanye, ukabona niba byeze abantu barishimye.

Puwavuro ni nziza cyane abantu barazikunda. Usanga abantu benshi batandukanye bazikunda, yuko zihumuza ibiryo kandi zikabiryoshya, ugasanga abantu barishimye.

Ibigori ni byiza cyane, abantu barabikunda kuko abantu baba barabihinze, ari ukubisharitsa, bakabijyana no mu masoko ari bibisi bakabyotsa cyangwa ari ibyo kwirira gusa.

Ibiti ni byiza cyane birinda isuri bikarinda ibintu byinshi bitandukanye, kandi abantu benshi iyo byakuze barabitema bakabishingiza ibishyimbo, ugasanga ibishyimbo bireze barasaruye.

Isoko ni ryiza cyane abantu bararikunda, kuko haba harimo imbuto zo guha abana n'iz'abantu bakuru, ugasanga baraziguze.

Ubuhinzi n'ubworozi ni byiza cyane usanga ari ibintu byungura cyane. Iyo udahinze ngo birumbe cyangwa ngo abantu babyabure usanga byeze ukajya gusarura ukajyana mu isoko bakaguha ifaranga rishimishije.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda kuko usanga ari nk' ishyirahamwe ryazihinze, ukabona abantu ni benshi cyane baje kuzibagarira, cyangwa baje kureba uko zimeze.

Ubuhinzi ni bwiza cyane abantu barabukunda, usanga nk'iyo abantu bahamagaje inama ngo bajye gufata ibiti, bitwaje utubase kugira ngo babone uko babizana, abandi bakabifata mu ntoki.

Imbuto ni nziza cyane barazikorera neza cyane, ugasanga umusaruro ushimishije, ugasanga abantu barishimye, abana mu rugo barishimye, kuko bagiye kubona amafaranga y'ishuri, cyamba ay'inkweto cyangwa ay'imyenda.

Ibishyimbo ni byiza cyane abantu barabikunda. Usanga nk'iyo bagiye kubyanika, cyamba ari ingano cyangwa soya baba babishashe ku mahema yabo kugira ngo byume bitagira ikibazo.

Amatungo yo mu rugo ni meza cyane abantu barayakunda cyane, kuko bayorora akabungura akabaha inyungu, ugasanga umuntu ayiguze ibihumbi bitanu ayisubije mu masoko yarabaye ibihumbi icumi, ugasanga imwunguye ibindi bitanu ni yo mpamvu bazikunda.

Ibijumba ni byiza cyane abantu barabikunda kuko biba biryoshye, cyane cyane ibijumba by'umuhondo cyangwa ibijuma bya wadite by'umweru, cyangwa kamamanzi ivuye ahantu heza, abantu barayikunda kubera ko iba iryoshye.

Indabyo ni nziza cyane, abantu barazikunda, bitewe n'ubwoko bwa zo, hari indabyo baba batera abageni n'izo batera habaye isakaramentu, izo ndabyo zose uko ari ebyiri, abantu barazikunda.

Imbuto ni nziza cyane nk'inyanya. Iyo umuntu arajya kugemura azisuka mu mufuka, izindi akazishyira mu ibase akagemura.

Inyanya ni nziza cyane abantu barazikunda, bajya kumenemo imyanda kugira ngo zikure, cyangwa ikaba ari ifumbire imbuto zigakura neza.

Isoko cyangwa butike ni byiza cyane, abantu barabikunda kuko usanga harimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari indimu, amaronji, ubundi ukagenda ukagura, ukabaha amafaranga.

Ibirayi ni byiza cyane usanga nk'iyo umuntu afite umurima munini, cyangwa ari ishyirahamwe, usangamo abakozi benshi, baba ari ishyirahamwe bagakura bakagabana, yaba ari umuntu bakabimushyira.

Ubuhinzi ni bwiza cyane abantu barabukunda, kuko nk'iyo umuntu yagiye gusarura bisaba yuko ajyana n'abakozi, bagasarura neza bitonze, bakirinda kwangiza ibisigayemo.

Ibihingwa ni byiza cyane, usanga abantu bari kubikorera neza cyane, kugira ngo barebe ko bizera neza, bikabaha amafaranga, bakabisarura, bagashyiramo abakozi, bakashyira ku isoko, bagasagura ibyo kurya, bakarya, bagahaga.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda, ugasanga umuntu ari gufuhira neza, kugira ngo imbuto zizere neza nta busimba burimo.

Amatunda ni meza cyane, abantu barayakunda, kuko bayaha abana; cyangwa akera bakayasarura, bakayajyana mu isoko bakabaha amafaranga.

Ibirayi ni byiza cyane abantu barabikundaga, iyo byeze bikagira umusaruro, usanga byarabaye binini cyangwa bikaba bitoya, bitewe n'imbuto wahinze.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda kuko zirinda indwara, ugasanga abantu bari kuzigurira abana babo na bo bakazigurira bakazirya, bakumva ziryoshye bitewe n' ubutaka zavuyemo.

Imbuto ni nziza cyane, usanga ahantu nko mu maso harimo ibintu byinshi bitandukanye harimo imyanya, puwavuro, intoryi, sereri, ikintu cyose wakenera ukaba wagishakira mu isoko.

Imiteja ni myiza cyane. Abantu benshi barayikunda, kuko usanga batanditse myinshi cyangwa iri kugura make. Ugasanga niyo bari kwigura, kuko baba bayikunze ari na myiza itumye.

Ibigori ni byiza cyane, abantu barabikunda iyo umuntu abisaruye, biba ngombwa ko abishayika kuko abirekeye hasi byagira ikibazo, ibyo kubora akabimanika hejuru igihe abikenereye akagenda akuraho duke duke.

Avoka ziryoshye ni nziza cyane, abantu barazikunda izi voka zibangurije ni zo abantu bakunda cyane, kubera ari zo ziba ari nziza, imbere zisa n'umuhondo, ariko iza kinyarwanda abantu ntibazikunda, kuko zo haba harimo n'izibishye cyane ku buryo utazirya.

Ubuhinzi ni bwiza cyane abantu barabukoraga, kuko iyo uhinze imirima myinshi bisaba y'uko upakira muri gasi, ugashaka abakarasi iyo ari ahantu ho mu misozi hataragera ikinyabiziga, bagasaba kukwikorerera, cyangwa imodoka ikaza kubitwara.

Imbuto ni nziza cyane. Yaba abantu barazikunda cyane, bakazinga zikera, bakazisarura, bakazijyana mu isoko, bagakuramo amafaranga, bagakuramo n’ay’ibyo kurya, barangiza bagakuramo amafaranga barihira amashuri. Ugasanga abana barishimye.

Ibihingwa ni byiza cyane abantu babikunda. Nk'abantu baba barahinze amashyu mu gishanga, bakayavomera, barangiza bakayateka cyangwa bakajyana mu isoko, bakayagurisha bakayabonamo mafaranga.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, usanga abantu barahinze ibigori bari kugenda babibagarira, bareba yuko hajemo n'udusimba ngo badukuremo.

Isoko cyangwa guteka ni byiza cyane abantu bakunda, kuko iyo umuntu agiye guhahiramo indimu cyangwa ibitunguru, usanga ari ibintu byiza cyane.

Ibinyomoro n'amatunda ni byiza abantu barabikunda kuko babiha abana, bagakura mu mubiri bameze neza, bafite intungamubiri zose zuzuye.

Inyanya ni nziza cyane abantu barazikunda, kuko iyo ushaka guteka ibiryo bitukuye ukoresha inyanya, cyangwa ugakoresha izanyuze mu ruganda, ugasanga uriye ibiryo biryoshye byiza.

Ibinyomoro ni byiza cyane. Abantu barabikunda kuko babigaburira abana bari kwiga kurya, cyangwa abana bakuru. Ugasanga abana bakuze neza bujuje ubuziranenge.

Ibishyimbo ni byiza cyane, abantu barabikunda, kuko babiteka kandi bakanabigurisha, bakabona amafaranga baguramo ibindi bintu, abana bakabasha kuwiga bakarangiza.

Wotameroni ni nziza cyane, usanga ziri ahantu heza habugenewe hafite isuku, abantu bakazigura bakazirya, cyangwa bakazikurira abana babo, ugasanga abana barishimye.

Intoryi ni nziza cyane abantu barazikunda kuko ari nziza. Iyo zeze zikaba nini abantu bazikunda ku bwinshi, kuko ziba zisa neza zitaratukuye.

Amateke ni meza abantu barayakunda, kuko aba aryoshye, umuntu akayateka akumva aramuryoheye akayagereka ku bishyimbo, cyangwa akayateka yonyine.

Amagi ni meza cyane abantu barayakunda kuko ari intungamubiri, ugasanga bari kuyagurira abana, cyangwa abantu bakuru tukayarya kuko aba aryoshye cyane, ugasanga abantu barayishimiye.

Voka ni nziza cyane, abantu barayikunda pe! Iyo ari voka iryoshye, usanga abantu bari kuzigura, bagasatura bakumva ko koko ziryoshye, bakazigura bishimye.

Inka ni nziza cyane abantu barazikunda, kuko iyo umuntu agiye kugura inkwano, arabanza akagenda akareba uko imeze, akabona kumubwira amafaranga ari bumuhe, yayishimira yabona ari nziza, akabona kumwishyura amafaranga yifuza.

Ibijumba ni byiza cyane, abantu barabihinga neza cyane, bakabijyana mu isoko bakabona amafaranga, ibindi bakabirihiramo abana amashuri, bakabijyana ku ishuri abana bakabirya, bagateka, bakarya neza bagahaga, ugasanga barishimye.

Amateke ni meza cyane abantu barayakunda, usanga barayahinze ahantu heza kugirango azere, ahantu ho mugitaka cy'umukara niho yera neza, ugasanga yeze araryoshye afite amafu, ugasanga bahinze amateke y'amabwayisi n'ayandi moko menshi atandukanye, ugasanga yareze bayajyanye mu isoko.

Amashu ni meza cyane, usanga abantu bari kuyakorera kugira ngo azamuke neza ashishagiye azere urushu runini cyane.

Ibitunguru ni byiza abantu barabikunda. Usanga bari kubigura cyangwa bakabigurisha, ugasanga babonye amafaranga meza.

Voka ni nziza cyane. Abantu barazikunda usanga harimo voka zitandukanye za kinyarwanda n'iza kizungu, harimo iziryoshye n'izibishye.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda, usanga barahinze nk'inyanya ukajya gusarura zeze ukagenda uzaha ukazigemura mu masoko, kugira ngo ubone amafaranga.

Imbuto ni nziza cyane abantu bahinga ibiti kugira ngo bazarebe ko heraho imbuto bazisorome, bazirye cyangwa bazigurishe cyangwa babe baziha abana babo ugasanga n'abana barishimye.

Amavoka ni meza abantu barayakunda. Iyo ari ivoka iryoshye, usanga umuntu ufite amafaranga ari kuyigura, kuko aba ari kumva iryoshye, akayirya, akishima.

Intoryi ni nziza cyane, umuntu wazihinze aba afite amafaranga, iyo batazimwibye cyangwa ngo zirumbe, zikera ari intoryi nini zifite igikuriro, ugasanga ziri kumuha amafaranga menshi.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda bitewe n'imbuto wahinze har'igihe uhinga bikakurumbira, har'igihe uhinga bikera, byakwera ugasharika.

Iyo abantu bagiye mu isoko cyangwa bagiye guhinga ngo bafatanye usanga buri wese yazanye imbuto ye yazanye n'ifumbire hanze, bagateranyiriza hamwe bazanye bigana bagahema bya kera bakongera bakagabana bakaringaniza.

Ibihingwa ni byiza cyane. Usanga barahinze igitoki, bagashyiramo inkingi, kigiye kugwa, kuko hari n'igihe haza umuyaga, wakirimbura kikagwa hasi. Ugasanga urahombye cyane.

Telefone ni nziza cyane abantu bazikunda kuko usanga nk'iyo umuntu ari mu murima aba yayitwaje, yashaka guhamagara umuntu cyangwa umuntu yamuhamagara akamwitaba akumva ibyo agiye kumubwira.

Indabyo ni nziza cyane abantu barazikunda usanga nk'indabyo ziteye ahantu heza, mu kintuza mu kibase cyangwa ahantu ho mu itaka, ugasanga ururabyo rwakuze neza, rufite indabyo nziza.

Amashu ni meza cyane, abantu barayakunda kuko bajya kuyahinga ahantu ho mu gishanga, bazavomera mu zuba akera.

Ibitunguru ni byiza cyane umuntu abyifashisha agiye mu gukaranga, akabitekera mu mavuta ukumva ibiryo birahumuye, ariye ibiryo biryoshye arishimye.

Voka ni nziza cyane abantu barayikunda, bitewe n'uko isa. Voka isa nk'umuhondo iba iryoshye usanga abantu bari kuyikunda, yaba abantu bakuru yaba n'abana.

Amateke ni meza cyane， abantu barayakunda kuko bayateka， bakanayahinga， bakayagereka ku bishyimbo，ukumva araryoshye， bakarara bishimye.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko aba ari binini cyangwa umuntu akabinywamo igikoma, ugasanga biraryoshye no kubyotsa.

Puwavuro ni nziza cyane abantu barazinda, kuko baziteka mu isombe cyangwa mu bindi biryo nk'igitoki, zikaryohamo, ukumva biri guhumura.

Amatungo yo mu rugo ni meza cyane, abantu barayakunda, kuko bayorora bakayajyana mu masoko, akabungura ugasanga batahanye amafaranga ashimishije, n'abayaguze bishimye yuko baguze amahene meza.

Inanasi ni nziza cyane abantu barazikunda usanga bari kuzitwara ku magare cyangwa ku bitebo, nabandi bagiye akazirangura bajya kuzicuruza mu yandi masoko cyangwa amaduka cyangwa abana bakajya bazirya.

Ifumbire ni ryiza cyane, abantu baritwara mu mufuka, iyo bagiye mu murima bagiye guhinga imbuto, bakagenda bagera mu murima bakaritura, abandi bagatwara amasuka, abandi bagatwara imihoro kugira babashe kubona uko batema ibyatsi, bagahinga saa sita zagera bagataha.

Imbuto ni nziza cyane, usanga abantu bari kuzikorera, ibirayi bakabimenera, ibintu byinshi bitandukanye bakabibagarira, ugasanga bishimye, iyo basanze bisa neza nta ndwara zagezemo.

Imifuka ni myiza cyane, abantu barayikunda bakayihunikamo. Iyo umuntu yejeje, aragenda akagura imifuka ya kilo mirongo inani cyangwa ya kilo jana agahunikamo.

Amateke ni meza cyane abantu barayakunda usanga hari amateke menshi atandukanye y'ubwoko bwinshi hari amazungu, hari amanyarwanda, hari amasitirita no ku ya mateke yose.

Imyumbati ni myiza cyane abantu barayikunda, iyo ivuye mu butaka bwiza usanga ari imyumbati myiza iryoshye cyane bakayigura bakayishimira.

Ubuhinzi ni bwiza cyane abantu barabukunda. Usanga nk'umuntu yaterereje abakozi cyangwa ari ishyirahamwe, ugasanga ni abakozi benshi cyane, nyine bagahinga ubundi bakajya mu mbuto bakazikorera neza.

Amatungo magufi yo mu rugo ni meza cyane, abantu barayakunda kuko usanga ari kugura make ,ukayorora, ukunguka menshi, bakayagurira n'abana babo bakishima cyane.

Ibiti ni byiza cyane, usanga bariri kubyororera, ahantu hababugenewe heza cyane, ugasanga babiteretse mu tuntu ku tudobo, cyangwa amabase ukabona nibyiza cyane, ukagirango ngo birafumbiye kandi ari ukubikorera neza cyane, ugasanga abantu babikoreye neza cyane, ugasanga hagize umusaruro mwiza.

Imiteja ni myiza cyane abantu mu gishanga bakunda kuyihinga yuko ibaha amafaranga, usanga bari kuyigurisha, bakayigemura ahantu ho mu mujyi, cyangwa abantu bakayigura bakayiteka.

Amasaka ni meza cyane, abantu barayakunda kuko bayakaranga, bakayabetesha, bakanayateka, ugasanga bari kuyaha abana barishimye.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda, usanga imyembe abantu bari kujya kuyirangura, cyangwa abantu bakayigura ari iyo kurya, ugasanga barishimye.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda kuko nk'iyo ugiye kureba ibigori ugasanga nta kibazo bifite urabitera hakeramo ibindi.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda. Kuko bazihinga zikera bazivomeye, bakazijyana mu isoko, bakabaha amafaranga ahagije, bagataha bishimye.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda nk'iyo wahinze wudeye ugasanga bireze neza urishima ukisetsa ukazabaho neza, ukabona amafaranga.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda. Usanga nk'umuntu yarateye igiti kikera, akabona amafaranga, cyangwa ibiryo byezemo akabyirira bitewe n'ubushobozi afite.

Amateke ni meza cyane abantu barayakunda, kuko abamo amoko menshi atandukanye, abantu bagiramo amoko bakunda ugasanga amoko bakunda arayoshye.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda, usanga nk'iyo umuntu yejeje intoryi cyangwa inyanya, aba ari umuntu ufite amafaranga, yarazihinze neza, imvura itarazishe.

Imbuto ni nziza cyane abantu barazikunda usanga nk'iyo abantu bari gusarura ibishyimbo, barabanza bakabyanika kugira ngo intonore zivemo, zamara kuvamo, bakabishyira mu mufuka bakabihura.

Voka ni nziza cyane, abantu barazikunda, kuko ziba ziryoshye, zaba voka za kizungu usanga ziryoshye cyangwa zibishye, ariko iyo ari iza kinyarwanda, n'aho haba harimo iziryoshye n'izibishye.

Indabyo ni nziza cyane, abantu barazikunda, bakunda kuzihinga, bakazihinga ahantu habugenewe, ugasanga ururabyo rukuze neza, ruzamutse neza, kuko ruba rwaratewe mu butaka bwiza cyane.

Ibijumba ni byiza cyane abantu barabikunda, cyane cyane ibijumba biryoshye bya wadada cyangwa iby'umweru usanga abantu bari kubikunda.

Imbuto ni nziza cyane, usanga imyambe yeze abantu bari kuyigurisha bakabonamo amafaranga, abantu bakayihinga kuko baba barayiranguza bakayibonamo amafaranga ugasanga imeze neza, iraryoshye bitewe n'uko yeze.

Amatungo magufi ni meza cyane usanga ari mu biraro byayo abantu bakaza baje kuzigaburira, bakazishyiramo neza kugira ngo zibe zabasha kugera ku biryo zikarya zigahaga.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda, usanga imbuto zeze neza, zaratukuriye mu biti, ziba ziryoshye cyane, wazigura ukumva ziraryoshye, bitewe n'ubutaka zahinzwemo.

Inanasi ni nziza cyane abantu barazikunda, bazijyana mu masoko cyangwa bakaziranguriza imodoka mu murima, abantu bakabona amafaranga meza atutse.

ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko hari igihe babihinga bikazamo nkonka, abantu bakazajya birirwa baratoragura basigamo amase.

Imbuto ni nziza cyane. Abantu barazikunda cyane, kuko bazihinga bakazirya cyangwa bakazijyana mu isoko, zikabaha amafaranga ugasanga baguzemo ibindi bintu bakeneye.

Amagi ni meza cyane abantu barayakunda kuko ari intungamubiri ku bana no ku bantu bakuru. Umuntu wayariye aba afite ubuziranenge bwiza, bwuzuye kandi mu mubiri hakora neza.

Iyo abantu bahinze mu ishyirahamwe. Usanga hari abantu benshi cyane, bakagenda bagasarura ibyo bahinze, barangiza bakagabana, bakaringaniza.

Guhinga ni byiza cyane. Abantu barabikunda kuko ari byo bibagaburira. Bagahinga, bagatera, bagakunkumura ibyo gutwika, barangiza bagatera imbuto bakishima.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda usanga nk'iyo umuntu yejeje ibigori byinshi abijyana mu isoko ibindi akabihanika. Ibindi akabihungura akagenda abigosora abishyira mu mufuka kugira ngo azabone ukuntu abibetesha anywe igikoma.

Isoko ni ryiza cyane , abantu barayikunda usanga haremeyemo nk'ibirayi, bakaremeramo n'ibitoki, amashyaza ,ibijumba ,ibintu byinshi bitandukanye ugasanga abantu benshi bari kujya guhaha.

Inyanya ni nziza abantu barazikunda, usanga nk'iyo umuntu yateye inyanya zikera, aba yishimye cyane kuko ziba zeze zitarapfuye.

Amashu ni meza cyane abantu barayakunda. Hari abo aryohera n'abo ataryohera, abantu usanga bari kuyagura ku bwinshi, bagiye kuyateka.

Ibirayi ni byiza abantu barabikunda, kuko babiteka bakabirya, kandi bakabitekamo n'ifiriti, ukumva iraryoshye.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko usanga ari ibigori byeze neza, ari ibigori binini byashishe bifite amasaro manini, bitewe n'uburyo wabihinze.

Ubuhinzi bw'imyumbati ni bwiza cyane ,usanga nk'iyo umuntu yahinze imyumbati ikera iba ari imyumbati myiza cyane bakajya kuyikura bishimye , bakongera bakahahinga iyindi kuko iyo baba barahahinze iba yareze .

Ibihingwa ni byiza cyane, usanga nka hantu mu cyaro barahinze ibidegede, ugasanga bireze ni binini cyane, bari kubijyana nko mu mujyi, ugasanga babonyemo amafaranga bayaguze ibyo kurya barariye barahaze.

Imbuto ni nziza cyane，voka abantu barazikunda n'indimu， n'amacunga， byinshi bitandukanye ari ibyoku kurya， ugasanga bazitaze， bari kuzigura ku bwinshi， bitewe n'uburyo zikora，bitewe kandi n'uburyo ziryoshye.

Ubuhinzi nitse cyane abantu baravuza nkumu uhingarashyamba ajye gukata icyo bafite amasukari n'amapiki yo kumishayi itagasanga abayakasiye baravannge nkakaracaamabarayi barateye.

Imbuto ni nziza cyane. Abantu barazihinga ahantu hari imigezi, hari amazi atemba, mu gihe cyo mu izuba bakazivomera kugira ngo zituma, ugasanga bari gushyiramo n'abakozi bakazishyiraho imvaruganda, bagashyira hamwe amafumbire, barangiza bakajyana mu isoko bakabona amafaranga ashimishije.

Ibiti bya mumbutu ni byiza cyane, usanga ari ibintu abantu bakunda kuko bibaha amafaranga, akabona n'umuntu ari kubitambagira, arishimye cyane.

Ibihwagari ni byiza cyane, abantu barabikunda, nsanga barabihinze, bakabigurisha cyangwa bakabigumisha mu rugo, bakajya bahora barabihinga.

Imboga ni nziza cyane abantu bakunda kuzihinga ,bagahinga n'ibyo bazarya, n'ibyo bazagurisha kuko baba barabonamo umusaruro, iyo bikwemereye bikera.

Iyi nkono yashyiramo ibishyimbo arabihura yarangiza akabigosora, yarangiza akabishyira mu ibase cyangwa mu gitebo ibindi akabigosora akabona kubihunika.

Ibishyimbo ni byiza cyane kuko abantu barabihinga bakabyeza bakabishira mu kibo bagiye kubitwerera, usangaka ubukwe burabaye abantu baranyweye barishimye, kandi baranezerewe ugasanga barabyinye.

Ibigori ni byiza cyane, usanga barabishyaritse ahantu heza, nta kibazo bifite. Ahantu hatagwa imvura ngo imvura ibe yabiboza, igihe washakira ukaba wagenda ugahanura ugateka amahundo.

Ibigori ni byiza cyane ,abantu barabikunda . Usanga hari abantu bejeje bikeya, bikeya cyane ariko bakaba batabigurisha ngo bongere bajye kubigura.

Ibijumba ni byiza cyane abantu barabikunda. Iyo ari nk'ibijumba biryoshye abantu barabirwanira, ugasanga ako kanya bahise babimara.

Ibishyimbo ni byiza cyane, barabigosora bakabiteka. Ugaasanga babitekeye umuryango bageretseho n'ibindi, imyumbati, amateke, ugasanga bimeze neza, ugasanga barariye barahaze, baranezerewe.

Imyungu cyangwa se ibihaza ni byiza cyane abantu barabikunda kuko abana bibaryohera kandi nta muntu bitaryohera, abantu hirya no hino bavuga ngo birabaryohera.

Amashaza ni meza cyane， abantu barayakunda， kuko bayateka bakanayakaranga， bakajya kuyabeteshamo igikoma， bakayaha abana babo.

Ibyishyimbo ni byiza cyane, abantu barabikunda, kuko babihinga bikera, iyo byeze neza bakabona umusaruro ushimishije, ukishima kuko umurima wabo ari mwiza bawuhinzemo nt'urumbye.

Ibishyimbo ni byiza cyane abantu barabikunda, usanga batetse barikurenga ahantu kugira ngo ibyo baha umuntu cyangwa ibyo bateka, kuko mu bikana ibyo basanzwe bateka.

Amasaka ni meza cyane abantu barayakunda, kuko bayagurisha bakayanwamo n'igikoma, bakabona amafaranga ugasanga barishimye.

Ibishyimbo ni byiza cyane ,abantu barabikunda, iyo bagiye kubihura bisaba kubanza ngo babyanika kugira ngo n'intonore zivemo ,basigare barahura ,kuko babihuye harimo intonore ntabwo byavamo.

Amasaka ni meza cyane, abantu barayakunda, kuko iyo ugiye kuyatera, utera mu murima akera, ugasanga agasaka kamwe kavuyemo isaka rinini.

Inzuzi nziza cyane abantu barazikunda, kuko usanga zareze zikagira ibidegede, ugasanga umuntu ari kubirya cyangwa ariko kugurisha.

Ibishyimbo ni byiza cyane, cyangwa ubunyobwa, cyangwa ibindi bishyimbo bateka mu gitoki, usanga biryoshye, abantu bari kubikunda, intonore cyangwa ibyumye, kubera intonore ari zo ziryoha cyane, ni zo abantu bakunda.

Inzuzi ni nziza cyane abantu bazikunda bazikura mu bihaza batemye bagiye guteka bakongera bakazisubiza mu butaka zikamera, zikera, zikazana ibindi bihaza.

Soya ni nziza cyane abantu barazikunda, nk'iyobazisaruye arinyinshi, cyangwa zitari zuma urabanza ukazisharika zarangiza zikuma neza.

Imboga ni nziza cyane abantu barazikunda kuko niyo uzihinze ukazizikorera neza arimboga cyangwa karoti uzijyana mu isoko ukabona amafaranga.

Ibigori ni byiza cyane, abantu barabikunda, usanga barabishyaritse hejuru kugira ngo bitazagira ikibazo, igihe bashakiye guhungungurira isoko bakarihungurira, bagashyiramo abakozi.

Ibigori ni byiza cyane, abantu barabikunda, usanga nk'iyo umuntu agiye kubetesha, abanza agapima mu kibo, akamenya ibiro ajyanye n'amafaranga ajyanye.

Imifuka ni myiza cyane kuko arimo ibyo kurya ukarya, ugahaga ugasagurira n'isoko ,bakaguha amafaranga usanga urishimye cyane.

Amasaka ni meza cyane, abantu barayakunda, kuko nk'iyo ugiye kubetesha igikoma, bisaba gushyiramo amasaka, nk'iyo umuntu ayejeje, ayashesha atayaguze.

Ibirayi iyo bagiye kubihinga, barabanza bakareka bikazana ibimera, kugira ngo nibabishyira mu butaka bizere vuba, bimere, byamara kuzana imimera, bakabona kujya kubihinga.

Abantu benshi usanga abafite ibintu byinshi bitandukanyekanye, n'iyo waba ugiye kubigurisha, ukagenda ukagura ibyo ukeneye, kuko ku isoko biba birimo, ibyo yakenera bakabimuha.

Imbuto ni nziza cyane ,usanga abantu barazihinze ahantu mu murima mwiza, ukabona imbuto zizamutse neza, nk'ingano cyangwa uburo ukabona bizamutse neza bireze abantu basaruye.

Uburo cyangwa ingano ni byiza cyane abantu barabikunda kuko babiteka, ukaba wahekenyaho, ukabeteshamo igikoma ukihishima cyane.

Ibihwagari ni byiza cyane usanga hari abahinze mu murima byonyine nta zindi mbuto, kugira ngo byere neza, bibahe umusaruro banabigurishe, babikuremo amafaranga, cyangwa nabo bababe bagira ikintu babikoza.

Ibigori ni byiza cyane usanga bari kuva kubisarura umugore akazajya ahereza umugabo, umugabo akamanika, kuko umugore atakurira, ugasanga umugabo aramanitse ibigori.

Abagore mu cyaro barakora cyane, kandi bahetse n'abana, ugasanga umugore ntiyicaye ari gukora, ameze neza, kandi nta bwo ari kurira y'uko akoze cyane ahubwo ari gutunganye iby'ejo hazaza, ugasanga umwana we abameze neza nawe nta kurira, yarira akamuha ibere.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko usanga ari ibigori byiza bifite amasaro meza, bifite ihundo ryiza ugasanga babishyaritse ukabona barishimye.

Ibishyimbo ni byiza cyane, abantu barabikunda, ibshyimba bugufi cyane cyane kuko byera vuba, abantu bakabisomamo intonore.

Amashaza ni mvu cyane, abantu barayakunda, kuko bayahinga bakayajyana mu isoko ku mabase, ayandi bakayarya cyangwa bakayahunika, bakayateka.

Ibishyimbo ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko umuntu ava gusarura akabyanika ngo bizume neza, yarangiza akabihinga akanabiteka.

Ibishyimbo ni byiza cyane abantu barabikunda. Usanga iyo bagiye gutera, baramanza bagatoranyamo ibipfu, bakabishyira uruhande rumwe kazabiteka, ibyiza bakabitera.

Ibihwagari ni byiza cyane, abantu babikuramo amavuta, bateka mu biryo, ukumva ibiryo biraryoshye, kubera ko baba bahinze imbuto z'ibihwagari, ibihwagari bakabikuramo amavuta.

Ibishyimbo ni byiza cyane, abantu barabikunda cyane kuko babiteka, bakarya bagahaga bakumva biraryoshye kandi abana barabikunda cyane bararya bagahaga bakishima.

Ibishyimbo binini ni byiza cyane, abantu bakunda kubihinga kuko bitubuka bikagira n'umusaruro ushimishije, iyo byakunze kwera wabiteye ahantu heza usanga byeze neza.

Ibishyimbo ni byiza cyane, abantu barabikunda, uko bigira umusaruro mwinshi, iyo bitarumbye, usanga nk'abantu b'abagabo bari kubihura, bakabimaramo.

Isoko ni ryiza cyane abantu bararikunda, kuko nk'iyo ugiye gushakamo ikintu ukibona, ukagenda ukaguramo ibyo kurya ukarya, bakagupimira neza waba ushaka nk'ibiro icumi bakabiguha.

Ibigori ni byiza cyane usanga iyo umuntu yejeje umurima munini aragenda agatumiza abantu bakamusarurira yarangiza akabishyirara ku biti akabisharika. igihe cyagera cy'amafaranga, ni uko agurisha yarangiza akohereza mu isoko cyangwa akabibetesha agakuramo ifu y'igikoma.

Imbuto ni nziza cyane. Abantu barazikunda, ugasanga umuntu yahinze imbuto zitandukanye, zireze abonyemo amafaranga ashimishije.

Amagi ni meza cyane iyo abantu barayakunda kuko ari intungamubiri ugasanga n'abana bari kuyarya, abantu bakuru, abantu bose kuko aba aryoshye asa n'umuhondo usanga abantu bari kuyagura ku bwinshi.

Imboga ni nziza cyane abantu barazikunda kuko zivura bwaki, umwana kugira ngo umurinde bwaki ukamuha imboga, ibintu bifite intungamubiri umwana agakura neza cyane.

Ibigori by'amabara ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko byera vuba kandi bikagira amabara meza, bikaryoshya n'igikoma, ukabona abana bari kubikunda cyane.

Umuyaga ni mubi cyane, iyo umuntu yateye ibigori cyangwa amasaka, ahantu hose bigeze birahirima, ugasanga ibiti biri kuvunagurika n'insina ziri kuvunagurika.

Ibiribwa ni byiza cyane abantu barabikunda, kuko iyo ubifite mu nzu nta nzara ikwica, ubifite byinshi wabigemura ahantu ku kigo, cyangwa ukajya kubigurisha abantu bakirira, bakarara bameze neza.

Ibishyimbo ni byiza cyane habaho amoko menshi atandukanye, harimo nk'amashaza ugasanga hariho iby'umukara, iby'umweru n'umutuku.

Amasaka ni meza cyane, barayahinga agakera, bakayasarura barangiza bakayahura, bakayahunika, baburamo amafaranga bakayajyana ku isoko, bakabaha amafaranga meza cyane atubutse.

Ibihwagari ni byiza cyane abantu barabikunda kuko babikoramo amavuta, abantu bakanabihinga, bakabisekura ukanyura ahantu ukabona babyanitse cyangwa barabihinze mu murima mu bigori.

Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda. Iyo bihinze neza babona umusaruro ushimishije bakabishandika bakabikuramo igikoma, bakabigurisha bamwe na bamwe, abandi bakabijyana mu rugo. bakazajya barabibeteshamo akawunga, cyangwa bakabibeteshamo ifu y'igikoma.

Inka ni nziza cyane usanga abashumba bari kuziragira ahantu hari ubwatsi, ugasanga ziri kurisha, zagera n'ahantu hari amazi zikanywa ugasanga Inka zimeze neza zitashe zihaze, ba nyir'urugo bakishima cyane.

Inka ni nziza cyane iyo ziriye zigahaga kandi zifite ubuziranenge bwuzuye urazitegereza ukabona ari nziza, kandi zikabyara n'abana bazo ukabona ni beza.

Amagi ni meza cyane, abantu barayakunda, usanga nk'umuntu afite uruganda rw'amagi bitewe n'inkoko yoroye, iyo yoroye inkoko nyinshi, bisaba kuba afite amagi menshi.

Amagi ni meza cyane abantu barayakunda kuko ari intungamubiri, ubundi umuntu uyafite ayaranguza butike cyangwa akayagurisha umuntu ufite abana, kugira ngo azajye arayaha umwana we.

Intama ni nziza cyane. Abantu barazikunda kuko bajya kuziragira inyuma y'amashuri, zifite umushumba ari kuzicunga, yazihamagara zigataha.

Inka ni nziza cyane, abantu barazikunda, usanga baziragiye ahantu hari ubwatsi zirikurisha, cyangwa ziri mu kiraro bakazisasira, ugasanga zabyibushye zibahaye amafaranga menshi.

Inka ni nziza cyane abantu barazikunda, kuko bazorora, bakabona ifumbire, bakabona n'amafaranga, bagakama n'amata, ugasanga abantu barishimye.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane , abantu barabukunda. Rebank'umuntu yoroye inkoko akabona amagi, kandi zikagira udushwi akunguka amafaranga menshi cyane.

Butike cyangwa isoko ni byiza cyane， usanga hariho ibirango by'icyo bakora， ukagenda ukagura ibyo ukeneye， waba ukeneye karoti ukazigura， cyangwa ibindi bintu.

Inka ni nziza cyane, usanga abantu bari kujya kuzahirira mu mirima bakazigaburira, zikabaha amafaranga meza cyane, bakazijyana ku isoko, bakarihira abana amashuri abana bakabasha kubona minerivari bakishima cyane.

Amatungo magufi ni meza cyane abantu barayakorasanga abana bari kubona ingurube kuko izungura kandi ya zabyariye usanga ufite inyungu nyinshiye kukozibyaradukanawana twinshi.

Inkwavu ni nziza cyane, abantu b'abana barazikunda kuko ari zo zigura make. Usanga nk'iyo umwana agiye kwiga gutera imbere, ahera ku rukwavu akagera no ku bindi gutyo gutyo.

Inka nk'iyo bagiye ku yiha ikinini, cyangwa bagiye kuyitera urushinge, usanga bayigaritse, cyangwa irindi tungo risanzwe, cyangwa bakarizirika, bakarifata umunwa.

Inkoko ni nziza cyane abantu barazikundaga. Usanga ziri ahantu zirabona icyo kurya cyangwa ziri ahantu barazizanira ibiryo. Iyo ari ahantu ho mu mugi.

Amagi ni meza cyane abantu barayakunda usanga bari kuyagurira abana bakiri bato, n'abankuru ugasanga bari kuyarya, abantu bose barayarya kuko ari intungamubiri.

Inka ni nziza cyane abantu barazikunda kuko haba harimo byinshi ni imfizi ugasanga se zindi kuzibaga aha ugasanga abantu bahishimye naho bahageze nka ziroge.

Inka ni nziza cyane abantu barazikunda, kera wasangaga inka zambaye inzogera(amayogi), zaba ziri kugenda ukumva ari kujegera, ku buryo n'ubungubu baraziyambika kuburyo injangwe yaza ikayazunguza ukabimenya.

Amagi ni meza cyane abana barayakunda. Nk'iyo umwana aribonye, ararira ngo arifate arirye. Iyo ufite amafaranga ukamwishyurira bakarimuhereza, akarirya umwana ataha yishimye.

Inka ni nziza cyane, abantu barazikunda kuko ziba zifite abashumba baziragira. Ukwezi kwapfa, bakabahemba, bafite ahantu habugenewe bagomba kuzicyurira, bakaziharaza.

Ibisimba ni bibi cyane ntabwo abantu babikunda, bamwe na bamwe, cyane cyane nk'inkoko, abantu bazikundamo gakeya cyangwa ibintu biguruka mu kirere, usanga abantu batari kubikunda, kuko biba birabakubaganira.

Inkoko ni nziza cyane, abantu barazikunda, usanga bazirekuye ziri kugenda zitobora uduserebanga n'utunyorogotwa, n'dusimba two mu mafumbire.

Intama ni nziza cyane abantu barazikunda, iyo hari ahantu wizeye batayikwiba hari ubwatsi buragenda akayiharagira karisha imvura yagwa ikayinyagira ntacyo yaba.

Ingurube ni nziza cyane, usanga abantu bari kuzirwanira bazigura kuko zungura, bakaziha ibiryo, bakaziha n'ibyatsi n'amazi.

Inkwavu ni nziza cyane abantu barazikunda, kuko iyo uzoroye ari nyinshi zikabyara, ubona amafaranga menshi cyane iyo udahuye n'umwaku ngo zipfe.

Inka ni nziza cyane abantu barazikunda, kuko bazorora zikabyara zikabongerera amafaranga bitewe n'ibyo bazigaburiye , kandi zikabyara bagaha abana babo amata.

Ibiraro bifite abashumba ni byiza cyane, usanga inka zidacika kandi zitasonza, kuko umushumba aba yagiye kuyiragira, cyangwa kuyahirira, inka igakura neza bakayitaho, bikabaha amafaranga menshi cyane.

Ingurube ni nziza cyane usanga ziri kugenda zirisha, ariko zikagira amafaranga menshi cyane, abantu bakishima abandi bakarakara kuko zaboneye.

Umuto ni nziza usanga niyo ahantu hari ishyamba cyangwa barahinzemo ibindi bintu usangamo ibisimba biri kunyuramo bikabonera, iyo hatarimo hari igisimba ubona nawe ugatinya ubwawe.

Udusimba two mu kinani usanga ari udusimba tw'injagwe, imbeba ibintu byinshi bitandukanye n'amasiha, ugasanga turi kurira mu biti, cyangwa turi kugenda tukareba ahantu hari voka tukajya gutoragura voka.

Imbuto ni nziza cyane，usange ibisiga biri kugenda bikazitonora bikazirya， umuntu ugasanga arahombye， kubera kutabona bwa bushobozi， bwo kujya ku bitera amabuye ngo biguruke.

Ibyiyoni biguruka mu kirere usanga biri konera abantu nko mu gishanga, ugasanga biri gucukura umuceri, ugasanga biri gucukura ibishyimbo, abantu bakazajya babitera amabuye, kugira ngo barebe y'uko bakweza bagasarura.

Ibintu biguruka mu kirere, usanga ari ibintu biri gusakuza cyane, ku buryo ushobora no kuvuga ijwi bikagusubiramo, nko kubera ko biba biri kumva, kandi iyo bukeye mu majoro saa kumi n'ebyiri n'igice, byose biba byabyutse biri gusakuza.

Ibiguruka mu kirere ni byiza cyane usanga biri kuguruka, bikajya bigenda bikajya gushakisha ibyo birya ugasanga biri gutwara amasabune, ugasanga biri gutoranranya utujema tw'tujumba, ugasanga twagera ku kintu abana bataye tukagitoragura tukakiryaha kugira ngo bize kubaho neza.

Ibisimba biguruka mu kirere， usanga ari ibisimba byinshi cyane， bikagenda biri kona imbuto z'abantu，bigenda mu murima，ku buryo wabibona ukikanga， ukagira ati ni inzoka.

Inyoni cyangwa inuma ni byiza cyane, usanga ari utuntu dushimisha abana, watuberekana no muri terefone ugasanga abana bari kutwitegereza, barishimye, uko tuba tuvuga, tugenda dutorera no hasi.

Muri iyi si habamo ibisimba bitandukanye, wagera hirya ukaba ubonye ibisimba wavuka utari wabona, ukumva ubwoba burakwishe kuko buba aribwo bwa mbere ubibonye.

Ibisiga cyangwa ibiyongoyongo biguruka mu kirere, usanga byagiye ahantu hari imbuto. Uburo, umuceri, biri kona. Abantu iyo batabyamanye birona cyane bikangiririza abantu.

Inuma ni nziza cyane. Abantu barazikunda usanga bamwe bari gushaka amagi y'inuma ngo bayateke, cyangwa bakazica bagiye kuzirya.

Ibisimba ni bibi cyane, abantu barabyanga, kuko usanga umuntu aciye nk'ahantu, kikaba kiramufashe kikamurya, abantu bakayoberwa aho umuntu yagiye.

Ibisimba biguruka mu kirere, usanga biri gucunga ahantu hari inzoka, imiserebanya, imbeba zapfuye, cyangwa amafuko yavuye mu mutego, bikagenda bikayatora bikabona amarariro.

Imbeba cyangwa ifuku usanga ari ibintu bigendera ku butaka, babitegaho kugira ngo babyice bagashaka ibitego bagashira akajumba cyangwa utuntu twose imbeba zaryaho bagasanga umutego waifashe yapfuye..

Ibisimba biguruka mu kirere usanga biri kurya inzoka, imiserebanganya, ibyumva ibintu byinshi bitandukanye. Ibintu bikururuka hasi akaba ari byo byacawe bigacunga ahantu hari inzoka cyangwa ibindi bintu bitandukanye.

Ibisimba bitera amagi, bigahindukira ya magi bikayatuga, hakavamo abana bagakura, bikazajya bijya kubashakira icyo kurya.

Ingurube ni nziza cyane abantu barazikunda ko bazibonamo amafaranga bikabaha inyungu, ugasanga barishimye kuko babonye amafaranga menshi batunga urugo.